Ibikoresho byifashwa mu kuyungura amazi mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, biteretse ku meza y'igiti. Ibikombe n'abana bari ku ruhande bari kugerageza gusuka amazi, inyuma yabo hari ibidukikije birimo amazu ibiti ndetse n'imisozi.

Umugabo wambaye umwenda w'amaboko maremare usa umweru uzwi nk'itaburiya, abandi baturage barimo abagabo ndetse n'abagore bicaye ku ruhande rwe ku ntebe y'igiti imbere ye hari ameza y'igiti, ahantu hasa umweru hari inzugi zifunze ndetse n'amadirishya afunze.

Abagabo n'abagore barimo abafite uruhu rwera ndetse n'urwirabura, bambaye amashati ndetse n'amakoti, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'icyatsi n'umukara, imbere yabo hari ameza akoze mu giti hariho ibikoresho bitandukanye harimo iby'ikoranabuhanga, ibirahure byifashishwa mu kunywa ndetse n'inkuta zisa umweru n'umukara.

Abana bambaye impuzankano zitandukanye mu bara atandukanye mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, bunamye ku mupira uzana amazi bari kunywa amazi inyuma yaho hari hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubusitani.

Abantu bicaye bari guterwa inshinge zisa nk'inkingo, bari kuziterwa n'abaganga bambaye udupfukamunwa, bafite imbere yabo ku meza ibikoresho bigiye bitandukanye, bikoreshwa mu kuvurwa no gukingira umuntu.

Abantu b'igitsina gore n'igitsina gabo, bari mu bikorwa byo kuvana imifuka ahantu hamwe bayijyana ahandi, banyuze kuri shitingi, iruhande rwabo hari ibidukikije birimo ibiti, ubutaka ndetse n'amapoto.

Imbaga y'abantu yahuriye ahantu hamwe, bafite amajerekani abandi bafite indobo aho baje guhurira ku ivomero ririmo riravomesha ku mpande zigiye zitandukanye, iryo vomero rikaba rifitemo ahantu hasohokera amazi hagera kuri hane.

Umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo, ipantaro, ari gukingira umwana uteruwe na nyina witandiye usa nk'aho ari uwo mu idini rya Kisilamu aho inyuma yabo hari abandi nabo baje kwikingiza no gukingiza abana babo.

Abagore n'abagabo bambaye imipira yera ndetse n'ibitenge n'amapantaro, inyuma yabo hari icyapa mu ibara ry'umweru, umutuku, amagambo yanditse mu bururu n'umuhondo, bimanitse ku nzu yubakishijwe amatafari.

Umwana muto wambaye imyenda itukura, ijipo ndetse n'umupira wunamye ku ivomero ry'icyuma, imbere ye hari ibase ari gukorabiramo ifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari urukuta rwubakijwe amatafari, inyuma ye hari inzu ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amabati.

Umwana w'umukobwa wambaye isengeri y'umuhondo n'ijipo y'umukara, iruhande rwe hari umwana muto bose bunamye mu kidendezi cy'amazi bari kuvoma, amajerekani asa umuhondo, iruhande rwabo hari ibidukikije birimo ibyatsi ndetse n'ubutaka.

Imodoka yifashishwa mu gutabara abarwayi izwi nk'imbangukiragutabara ifite ibara ry'umweru, umutuku, ubururu, iruhande rwayo hari abantu benshi, abagore ndetse n'abagabo bari hafi y'inyubako ndetse n'ibendera ry'igihugu.

Abagabo batatu bambaye amakoti n'amashati ndetse n'abagore babiri, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yabo hari imeza y'umweru irambitseho amakayi, ibikoresho by'itumanaho, amazi yo kunywa, amadirishya arafunguye.

Umwana wambaye ikabutura itukura, ishati y'amabara atandukanye, wunamye ku ivomero ryubatse kuri sima, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibyatsi n'ibiti inzu ndetse hasi hari indobo iri kumenekamo amazi mu gihe arimo arayanywa.

Imbaga y'abantu iteraniye ahantu hamwe, bari kuganira ku kintu runaka, bari mu nzu yubakishijwe mo imbere ifite irangii ry'umuhondo wijimye n'umuhondo ukeye, bikaba amadirishya n'imiryango bifunguye bamwe bakaba bicaye ku ntebe z'ubururu n'abandi bicaye ku ntebe z'umukara,

Abagore, abagabo, bambaye amakoti mu mabara atandukanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu biti, ziroho n'imisego, imbere yabo hari imeza yari iriho itambaro cy'umweru, mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu ikoranabuhanga, inkuta z'umweru, ndetse n'ibyapa.

Abagore batatu babiri barimo barapompa kugira ngo amazi azamuke ava mu ivomo bayabone, imbere hari undi urimo uravoma, ahantu hari urukuta ndetse n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ikirere.

Inzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru iruhande rwaho hari ibigega bigenewe kubika amazi, imashini zifashishwa mu gutunganya amazi, ubusitani burimo ibyatsi, ibiti ndetse n'imisozi.

Abagabo bambaye imipira yera n'amapantaro y'umukara, bicaye ku ntebe z'ibiti, bigaragara ko bahanze amaso imbere yabo umuntu uri kubabwira, amakarita agaragaza icyo baje gukora mu ijosi, bari ahantu hatwikiriwe n'igitambaro cy'umweru.

Imbaga y'abantu bateraniye ahantu hamwe isa nk'aho ishoje cyangwa igiye gutangira kuganira ku kintu runaka, aho bari hari icyuma kirekire gifashe ibendera ry'u Rwanda, hari ihema ry'umweru, hari n'inzu yubakishijwe amabuye anyuranyuyemo sima.

Abagore n'abagabo, bateraniye mu nama runaka, mu cyumba gifite irangi ry'umweru, bakaba bicaye mu ntebe ziganjemo amabara y'umuhondo, n'ubururu, imbere yabo ku meza hakaba hatwikirije igitambaro cy'ibara ry'umweru, n'ubururu, hakaba hateretseho amacupa y'amazi.

Abana bato b'imibiri yirabura, bari ku ivomero ry'amazi, hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gutwara amazi, harimo amajerekani, utubido, iruhande rwabo hari ibidukije, birimo ubutaka ndetse n'ibyatsi.

Abagabo bambaye imyambaro itandukanye, amashati afite amabara atandukanye, bicaye ku meza imbere yabo hariho ibyapa bigaragaza amazina yabo, ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga birimo telefone, inziramugozi, uducupa turimo amazi. Inyuma yabo hari abagore nabo bicaye ku ntebe, bigaragara ko bari mu nama y'ubuvuzi.

Ivomo ritanga amazi meza, hari umwana mutoya wambaye ikabutura y'ubururu n'ishati y'igitenge, washyizeho akavido uri kuvoma, iruhande rwe hari undi mukuru wambaye umupira w'ubururu ndetse n'impuzankano, hafi y'umuhanda nyabagendwa hariho ibidukikije birimo ibiti n'ubwatsi ndetse n'amazu n'abandi bantu bari kunyura muri uwo muhanda.

Umugore w'uruhu rwirabura wambaye agapfukamunwa gasa ubururu ikanzu y'amabara atandukanye umuhondo umukara ndetse n'umweru, wateruye umwana muto mu ntoki, inyuma ye hari undi nawe uteruye umwana ku rukuta rw'umuhondo, ndetse n'amadirishya.

Umugore wambaye umupira ndetse n'ijipo usutamye imbere ye hari ibase iteretsemo ijerekani mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibiti, ndetse n'inzu yubatswe mu mabati n'imyenda yanitse ku mugozi.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugore wambaye ikanzu ndende y'umweru, irimo amabara y'indabo, inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara y'umweru ndetse bishushanyijeho n'abantu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara ishati yumweru, uhagaze imbere y'abantu uri kuvugira ku ndangururamajwi, inyuma ye hari icyapa gisa umukara, cyanditeho amagambo y'umweru, iruhande rwe hari intebe zikozwe mu biti zifite ibara ry'umuhondo.

Abagore n'abagabo basa nkaho bicaye ahantu hamwe. Bateraniye ahantu hamwe bari kuganira ku ngingo imwe runaka. Bakaba bitaruye abandi bari hirya nabo bicaye mu ntebe zabo, basa nkaho na bo bafite ibyo barimo bareba mu makayi yabo.

Umugabo wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umweru ndetse n'ishati y'ubururu, yambaye uturindantoki tuzwi nka ga, ari gutera urushinge umwana wambaye ishati y'ubururu imbere hari abandi bana bigaraga ko bategereje guhabwa iyo serivisi.

Abana b'abakobwa b'uruhu rwirabura bamwe muri bo bari guseka. Bambaye imipira y'ubururu, iriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Inyuma yabo hari inzu yubakishijwe amatafari n'amadirishya y'ubururu.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, iruhande rwe hari umugore, wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, bateruye igikapu mu ntoki gisa umukara, cyanditseho amagambo y'umweru, inyuma yabo hari ibindi byapa, bifite amabara atandukanye.

Umwana wambaye ikabutura y'umuhondo n'isengeri y'umukara, wunamye imbere y'indobo ufite isabune mu ntoki bigaragara ko ari kuyisiga, undi iri imbere ye na we afite icyo batwaramo amazi mu ntoki, bigaragara ko agamije kumusukira amazi kugira ngo akarabe, iruhande rwabo hari inzu ifiteho urugi rw'ikibaho.

Umugore n'umugabo bambaye itabuye y'umweru basa nk'aho ari abaganga, bakaba bafite imbere yabo umurwayi uryamye ku gitanda cy'abarwayi. Witangiye igitambaro mu mutwe, wambaye impuzangano igenerwa abarwayi bo kwa muganga y'ibara ry'ubururu.

Abagabo bambaye impuzankano mu ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, bicaranye n'abana n'abambaye impuzankano mu ibara ry'umweru ndetse n'umukara, bari kunywa amata mu bikoresho bya kinyarwanda, bizwi nk'ibyatsi ndetse n'ibikombe.

Umwana muto wambaye umupira w'umweru, uri guterwa urushinge uteruwe mu ntoki n'umugore wambaye imyenda y'igitenge, iruhande rwe hari umugabo wambaye umwenda w'amaboko maremare ufite ibara ry'umweru n'uruhu rwirabura, inyuma ye hari abandi bantu benshi bategereje guhabwa ubuvuzi.

Abagabo n'abagore bicaye hamwe mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ari ibikoresho bitandukanye birimo mudasobwa indangururamajwi amazi yo kwifashisha, ndetse n'insakazamashusho iri imbere yabo ku rukuta rw'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi isa ubururu, imbere ye hari abagore bateze ibitambaro mu mutwe harimo n'uteruye mwana, i ruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati, ahantu hari ibikoresho birimo umunzani upima ibiriro ndetse n'impapuro ziriho amafoto.

Abagabo babiri bambaye amakoti y'umukara amashati y'mweru bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umukara imbere yabo hari imeza ikoze mu giti iriho mudasobwa n'indagururamajwi, imbere yabo nabwo hari abandi bantu bateze amatwi ndetse baba hanze n'amaso n'icyapa kinini kigaragaza ibyo barimo inyuma yabo

Abantu benshi bigaragara ko bari mu nama abagore n'abagabo bicaye ku ntebe zitukura, imbere y'abo hari ameza y'umukara ateretseho amazi, impapuro ,amakayi ndetse n'urukuta rukozwe mu mbaho.

Abagore batatu n'umwana muto w'umuhungu, bicaye ku ntebe y'igiti, urukuta ru rufite amatafari ahiye, hateyeho irangi ry'umweru hamanitse ibipapuro bisa umweru bigaragaza amashuri y'abantu batandukanye.

Abagore n'abagabo n'abana batoya bahagaze ku ivomero rusange, ikoreshwa rya kijyambere, aho umugore umwe wambaye umupanro y'icyatsi arimo aravomera umwana wambaye umupira w'umutuku, inyuma yabo aho bahagaze hari urutoki rwiza cyane ruhateye.

Umugore wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara inkweto zifite ibara ry'umweru n'umukara ,imbere hari abana bane bahagaze ku ivomo ndetse n'ibyo bakoresha batwara amazi ,uyu mwari ari kubafasha mu kuzamura amazi bayakura mu butaka iruhande rwabo hari imodoka ndetse n'ibidukikije.

Umugore wambaye umwenda wifashishwa n'abaganga uzwi nk'itaburiya w'ibara ry'umweru, afite igikoresho gipima umutima yagishyize ku mwana, iruhande rwe hari umugore w'imisatsi y'umukara, inyuma yabo hari icyapa gisa umukara.

umugabo wicaye ku ntebe z'umukara wambaye ikoti ry'umukara, ku ruhande rwe hari abagore barimo abafite uruhu rwera n'abambaye imyambaro itandukanye ndetse n'abandi bantu bari ku ruhande rwe batatu, bicaye ku ntebe zisa mukara na bo, imeza n'iy'igiti hateretseho amazi ndetse n'indangururamajwi ibendera ry'Igihugu n'urukuta rusa umweru.

Abana batandatu batambaye imyenda hejuru, bahuriye ahantu hamwe mu ruzi runaka basa nkaho barimo baroga bishimisha, hakaba hari babiri bitaruriye abandi bane ku rundi ruhande.

Abagore n'abagabo bahagaze ku mirongo ibiri, bari bateraniye hamwe cyangwa bagiye gukora inama runaka, bakaba barimo barifotoza inyuma yabo ko hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu n'umweru, amagambo acyandikishijeho aba ari mu ibara ry'umweru.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara, wunamye arimo gukaraba intoki, ku kabido kari ku bintu bishinze bimeze nk'ibiti, iruhande rwe hari ibidukikije birimo indabo ndetse n'ibiti n'inzu.

Ikirangantego mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru hariho ingano zinyuranyemo, umugore uteruye akana ndetse n'ikarita y'isi iri mu ibara ry'ubururu.

Umwana muto wambaye umupira ukozwe mu gitenge n'ikabutura wunamye ku ivomere uri gukaraba mu ntoki, iruhande rwe hari amajerekani afite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, ibidukikije birimo ibiti, ibyatsi ndetse n'inzira nyabagendwa.

Umugore uryamye ku gitanda wambaye imyambaro y'ubururu, igitenge kimutwikiriye, agapfukamunwa, iruhande rwe hari undi mukobwa ufite icyumviro ku matwi wambaye agapfukamunwa n'umwambaro w'ubururu ndetse n'undi umuri ku ruhande.

Umugabo wambaye umupira w'umuhondo wandikishijwe amagambo mu ibara ry'umweru, ipantaro y'ubururu imbere hari umwana wambaye ishati iciyemo uturongo iruhande rwabo hari ibiti bishinzeho imigozi ndetse n'ibipirizo inyuma yabyo hari abandi bantu bicaye hasi n'ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubusitani.

Abagore bateruye abana bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, imbere yabo hari umugabo wambaye umwenda w'akazi ufite ibara ry'umweru w'amaboko maremare bigaragara ko arimo arabafasha mu gutera inshinge abana zitandukanye.

Abagore ndetse n'abagabo bambaye imipira y'umweru n'amakanzu ndetse n'amapantaro y'umukara ni iy'ubururu, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu amagambo yandikishijwe ibara ry'umuhondo bahagaze mu busitani.

Umwana ufite uruhu rwirabura wambaye umupira ndetse n'ikabutura bateze amaboko amazi ariva mu ivomo ari kumanukira ku biganza, iruhande rwabo hari amajerekani afite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, ibidukikije ndetse n'inzira nyabagendwa.

Abagore n'abagabo bambaye imyenda itandukanye bicaye ku ntebe y'igiti bigaragara ko bategereje guhabwa serivisi, inkuta zirasa umuhondo hamanitseho impapuro ibitambaro bikingira urumuri kwinjira mu nzu.

Abagore batatu bambaye impuzankano zisa ry'ibara ry'umweru harimo umwe witangiye igitambaro mu mutwe, bari kwandika mu ikayi iri ku meza barebera ibyo bafite mu ntoki, basa nkaho ari abaganga cyangwa abaforomo b'ikigo nderabuzima.

Abagore bambaye amataburi ya maremare y'ubururu ndetse n'umweru, bafite impapuro mu ntoki inyuma yaboho hari abagabo bambaye imyambaro itandukanye n'udupfukamunwa ndetse n'amashati, inyuma yaho naho hari ibyapa mu ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo.

Abantu batandukanye barimo abagore n'abagabo, bambaye imyambaro inyuranye, bafite impapuro mu ntoki zanditseho amagambo, inyuma yabo hari ibidukikije birimo: ibiti, ibyatsi ndetse n'inzu yubatse mu mabati.

Umukobwa wambaye impuzankano mu ibara ry'umuhondo, na shokora yunamye ku gikoresho kiriho indobo ndetse n'ibase ntoya, ari gukaraba intoki mu rwego rwo kunoza isuku, inyuma ye hari ari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'abandi bakobwa.

Umugore n'abana bato bari ku ivomo bari gupompa amazi ari kujya mu bikoresho bitandukanye birimo amabase ndetse n'amajerekani n'amasafuriya, iruhande rwaba hari inyubako ibidukikije birimo n'ibiti.

Umugore wambaye umupira w'ubururu ipantaro y'umukara, wunamye mu iriba ry'amazi atemba ari mu ijerekani isa umuhondo, iruhande rwe hari umwana muto, wicaye ahantu hari ubwatsi ndetse n'ubutaka, inyuma ye hari ibidukikije birimo n'insina.

Abagabo, abagore, bambaye imyambaro itandukanye, imipira y'umweru, umukara ndetse n'amapantaro, inyuma yabo, hari icyapa cyanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'icyatsi, inyubako ndende, ibidukikije birimo indabo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Umugabo wambaye umupira w'maguru magufi utukura ikabutura uriho amafoto menshi ufite uruhu rwirabura, wambaye amapingu inyuma ye hari abantu barimo abagabo n'abagore bambaye imyambaro itandukanye bamushungereye.

Abagore n'abagabo, bamwe bahagaze abandi basutamye. Bateraniye hamwe basa nk'abari kwifotoza, imbere yabo hari imeza y'igiti iteretseho amazi. Inyuma yabo hari urukuta rusize irangi ry'umuhondo ruriho n'ifoto, n'ibirahure bikingira urumuri n'ibyawe.

Abagore n'abagabo bigaragara ko bari mu nama bicaye ku ntebe zisa mukaraka, imbere yabo hari imeza ifite igitambaro gisa umweru n'abandi bari imbere yabo ba bahanze amaso. Inyuma yabo hari icyapa kinini ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi cyanyanditseho amagambo mato ndetse n'amanini.

Umukecuru wicaye hagati y'abana batoya bamwe bambaye impuzankano zisa ubururu imipira y'icyatsi ndetse n'amakabutura y'uruhu rwirabura, ibipapuro biri inyuma yabo ndetse n'inzu.

Umugore w'uruhu rwirabura, uteze igitambaro cy'umweru mumutwe, wegamye ku rukuta rufite ibara ry'umweru, inyuma ye hari ibidukikije, birimo ibiti by'amabara atandukanye, ndetse n'uruzitiro ruto bigaragara yuko ashobora kuba afite ikibazo cyo mumutwe.

Abantu batandukanye barimo igitsina gabo ndetse n'igitsina gore, bahagaze bari kwifotoza, bambaye imyambaro itandukanye bafite icyapa kirimo amabara atandukanye, icyatsi, ubururu, ndetse n'amagambo yanditseho iruhande rwabo, hari ibidukikije.

Umugabo n'umugore bicaye ku meza y'igiti hari igitambaro cy'umweru ndetse n'icupa ry'amazi, umugabo yambaye ishati y'ubururu naho umugore we yambaye umupira w'icyatsi ndetse n'ijipo yicaye ku ntebe y'ubururu.

Abagabo n'abagore bambaye imyambaro itandukanye irimo imipira y'umukara, imipira y'umweru ,ishati ,imbere yabo hari ameza ari ibitambaro by'umukara hari ibindi bikoresho birimo imikandara, ibipirizo ndetse n'imiti yifashishwa mu buvuzi.

Inzu mu ibara ry'umuhondo, amabati y'umukara, ibirahure ndetse n'amadirishya y'ubururu, hariho utwuma dusa ubururu, amabuye ateye irange.

Umugore wicaye ku mukeka, witandiye igitambaro mu mutwe, wambaye ishati n'igitenge, akaba ateruye umwana mu ntoki, n'undi iruhande rwiwe, bakaba bafite imbere yabo inkoko iriho agasorori kajya gusa umutuku.

Umugabo wambaye imyenda ya gakondo igitambaro cy'muhondo, ishati yumweru ndetse n'ingofero, afite igikoresho giko mu giti kizwi nk'cumu mu buryo gakondo inyuma ye hari uruzitiro narwo rukoze mu biti.

Abagore n'abagabo bateraniye ahantu hamwe, harimo urubyiruko rwambaye impuzankano y'imipira y'ubururu iciye amaboko magufiya, hakaba bahagaze ahantu hamwe basa nk'aho bari kwifotoza, bagiye kujya kuganira ku ngingo runaka cyangwa bashoje kuganira ku ngingo runaka.

Umugabo wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara ufashe telefone mu ntoki iruhande rwe hari umugabo n'umugore bicaranye ku ntebe, iruhande rwabo hakaba hari umuryango ugizwe na nyina w'umwana ndetse na nyirakuru w'umwana.

Umugore wambaye igitenge, uhetse umwana, w'uruhu rwiraburaye wambaye n'agapfukamunwa, iruhande rwe hahagaze undi mwana muto wambaye ishati y'amaboko magufi, n'ikabutura bari guteka, mu nyubako yubakijwe ibyondo ndetse n'amarido.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ipantaro y'umukara, n'ishati y'umukara, imbere hari indabo ziteretse ku cyuma, inyuma ye hari urukuta runini rwanditseho amazina yandikishijwe ibara ry'umweru, kuruhande rwe hari undi wambaye umwenda w'akazi.

Umugabo wicaye washyize amaguru muri ruhurura, yubakishijwe amabuye na sima, iruhande rwayo hakaba hari umucaca usa nk'aho wumye, umugabo akaba yambaye igitenge kizengurukije mu ijosi.

Inzu ifite ibara ry'umweru yanditseho amagambo mu ibara ry'ubururu ifite ibirahuri, inzugi, amadirishya n'iryo bifunguye, imbere yayo hari inzira nyabagendwa irimo amabuye mu bidukikije birimo indabo, ibiti ndetse n'ubwatsi.

Inzu ifite ibara ry'umweru amatara arikwaka, harimo intebe z'ibyuma zifitemo n'imisego, harimo ibikoresho by'ububaji mu tubati ndetse n'intebe y'ibirahure birakinze.

Abagore babiri, umwe ufite uruhu rwirabura n'undi ufite uruhu rw'imibiri yombi, bari ahantu hari imeza iriho igitambaro cy'ubururu giteretseho amacupa y'amazi, intebe z'umukara n'ibyapa byamamaza ndetse n'urukuta rusa umuhondo.

Intebe yo kwa muganga ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru ikozwe mu cyuma ifashwa mu buvuzi bukoranye ikoranabuhanga, iri ahantu hafite inkuta z'umweru, urugi rw'ibiti ndetse n'akandi gatebe umuganga yicaraho.

Umugabo n'umugore bambaye impuzankano mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru, imbere yabo haryamye undi wambaye umupira w'ubururu. Wafunguye umunwa bari kumupima mu menyo ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu buganga.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ufite agapfukamunwa, ari mu ishuri, inyuma ye hari abandi bantu bahagaze, imbere mu maboko ye afashe umunyeshuri, wambaye ishati y'icyatsi, ufite ikibumbano cy'amenyo mu ntoki ze.

Abagore babiri bari kumwe n'abana bambaye impuzankano mu ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, bicaye ku ntebe z'ibiti zo mu mashuri, inkuta zirasa umweru amadirishya mu ibara ry'uburu ndetse n'ibirahure ndetse n'urugi rukoze mu biti.

Ubuzima bw'amenyo, umugore ufite amenyo yera uteze igitambaro mu mutwe, afite agakoresho bifashisha mu gukura imyanda mu menyo, yafunguye umunwa kandi amenyo arimo aragaragara n'ibiganza.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu, umwenda w'amaboko maremare uzwi nk'itaburiya, agapfukamunwa, imbere ye haryamye umusaza wambaye umupira w'ubururu, yamushyize igikoresho gisuzuma amenyo mu kanwa, hari ibitambaro bikingira urumuri.

Umugabo wambaye isaha kukaboko y'umukara, ishati y'umweru, bigaragara ko akora mu by'ubuvuzi, imbere ye afite igihanga kirimo amenyo arimo arigirwarwaho, iruhande rwe hari ibindi byuma byifashishwa mukwi ubuvuzi bw'amenyo.

Umugabo w'imibiri yombi uri guseka wambaye umupira w'amaboko maremare ugera mu ijosi ,ufite ibara ry'icyatsi inyuma ye urukuta rufite ibara ry'cyatsi narwo mu ntoki afite icyerekana ubwoko bw'amenyo butandukanye.

Abanyeshuri bambaye impuzankano bicaye ku ntebe z'ibiti, birimo abahungu ndetse n'abakobwa, inyuma yabo urukuta rurasa umukara amadirishya arafunguye, bamanitse ibiganza bafite uburoso bwifashishwa mu gukora isuku mu menyo n'umuti w'amenyo.

Umusaza n'umukecuru bicaye imbere yabo hateretse isahani ebyiri, igikombe kirimo amazi abandi bari inyuma yabo n'abasa nk'abasheshe akanguhe, umugabo wambaye amarinete ubateze amatwi yambaye n'ikarita y'icyo akora, imeza y'igiti ndetse n'intebe z'ibiti.

Umugore wambaye imyenda y'umukara n'umweru impuzankano yerekana ko akora kwa muganga ndetse n'umukecuru wicaye ku gitanda, ufite akantu arimo arakwedura hejuru ye, iruhande rwe hari amatara ndetse n'uburiri buryamwaho.

Abagabo babiri bambaye imipira yera, ipantaro y'umukara, bafite uducupa mu ntoki. Iruhande rwabo hari igikoresho cyagenewe kubikwamo imyanda. Ibidukije birimo ibiti, indabo ndetse n'ubwatsi.

Umugore wambaye imyenda isa ubururu n'umupira w'umweru, uri gufasha umugabo kugendera mu bikoresho byifashishwa mu kugenda ku bantu bafite ubumuga, ufite uruhu rwirabura, iruhande rwe hari ibikoresho birimo utubati, intebe bikozwe mu biti.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro ndende, iruhande rwe hari umugore wambaye ishati ndetse n'ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara, arimo aramwerekera uko wagendera ku gikoresho gikoze mu biti, iruhande rwabo hari ibindi bikoresho byifashishwa mu kwita ku barwayi.

Umusaza wambaye umupira usa umuhondo ndetse n'ipantaro, wicaye mu kagari k'abafite ubumuga, iruhande rwe hari umwana wambaye umupira usa icyatsi n'ipantaro, inyuma yabo hari indabo n'ibiti, amatara, bigaragara ko bafite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki.

Umukobwa wambaye umupira ufite amaboko magufi mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umukecuru uri guseka, wambaye umupira w'amaboko maremare uri gukata imboga ndetse n'imbuto kumeza asa umweru, inyuma yabo hari utubati two mu gikoni.

Umugabo wambaye umupira w'umweru n'ishati y'umweru ufite imisatsi y'imvi iruhande rwe hari umugore ufite imisatsi y'umweru wambaye umupira w'amaboko maremare imbere yabo hari ifunguro bigaragara ko ari ifunguro ryuzuye inyuma yabo hari utubati two mu gikoni.

Abagore babiri, umwe ugaragara nkaho akuze, n'undi ugaragara nkaho akiri muto urambuye amaboko, undi arimo aramufasha kuyarambura, bambaye imyambaro itandukanye bigaragara ko bari muri siporo, bari mu nzu ifite ibirahure, amadirishya ndetse n'intebe.

Umugabo wambaye ishati ya maboko magufi, ufite uruhu rwirabura, imbere ye hari urubaho bakiniraho umukino wo kunyuranyamo inka, zifite ibara ry'umukara ndetse na shokora, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibiti.

Umusaza ufite imisatsi yera, wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara n'ipantaro, wicaye mu kagare k'abafite ubumuga, ari gusunikwa n'umugore wambaye umupira w'ubururu, ufite imisatsi isutse, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibyatsi, ibiti, inyubako ndetse n'umuhanda nyabagendwa.

Umugabo w'umusatsi w'imvi z'umweru n'ubwanwa bw'imvi ufite uruhu rwirabura ari kozwa n'umuntu ufite ibiganza byirabura yicaye mu ibase nini ifite ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari amatara ari kwaka.

Abagore basa n'abasheshe akanguhe, bambaye imipira itukura, amajipo y'umweru, n'imyambaro ya kinyarwanda izwi nk'imikenyero, inyuma yabo hari abana, abakobwa ndetse n'abagabo, iruhande rwabo hari ibidukikije birimo insina, ubwatsi, ibiti, indabo ndetse n'amazu.

Umukecuru ufite ikirahure mu ntoki, wifashe ku mazuru, wambaye ibirahure bikingira amaso, ufite imisatsi y'umweru n'umukara yicaye ku gitanda, urukuta rurasa umweru hariho n'ifoto.

Abagore bambaye imyambaro itandukanye irimo ibitenge, bateze no mu mutwe, bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru, iruhande rwabo hari ibidukikije birimo ibiti, insina ndetse harimo n'abicaye hasi.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare ahinnye, y'amabara atandukanye, n'umugore wambaye ishati y'amaboko maremare ahinnye y'umweru, afite icupa ryerekana ko ari icupa ry'imiti mu ntoki, imbere yabo hari mudasobwa impapuro, ndetse n'utubati two mu gikoni.

Umugabo n'umugore bari kumwe mu cyumba, ahantu hari igitanda, gifite ibara ry'umuhondo, umwe afite uruhu rwirabura, undi afite uruhu rw'imibiri yombi n'urukuta ni umweru.

Abagabo babiri, umwe wambaye itabuririya ndende nkuko, afite igikoresho kifashishwa mu gupima umutima bigaragara ko ari umuganga, ari kumwe n'undi musaza wambaye ishati ya shokora, imbere yabo hari ameza asamwe akoze mu kibaho, ndetse n'amakaye, bari kwifashisha basoma, inyuma yabo hari ikirahure.

Abakecuru babiri b'uruhu rwirabura, bambaye imyenda ya siporo mu mabara atandukanye, barimo baraseka, inyuma yabo hari ibidukikije, birimo ibiti, ibyatsi ndetse bari mu muhanda nyabagendwa ukorerwamo siporo.

Umugabo w'imisatsi y'umweru w'imibiri yombi, wambaye ishati y'amaboko maremare, irimo amabara avangavanze umupira w'umukara, wicaye kumeza iriho indyo yuzuye, iruhande rwe hari undi muntu uhicaye, ibikoresho byo mu mugikoni birimo utubati ndetse n'ibyo mu nzu birimo amatara n'imitako.

Umugore wambaye umwenda w'icyatsi ufite n'ibara ry'umweru, uri guseka ,imisatsi n'umukara, imbere ye hari umukecuru w'imisatsi y'umweru w'imibiri yombi ,inyuma yabo hari intebe, amadirishya ndetse n'ibitambaro byifashishwa mu kurinda urumuri kwinjira mu nzu.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe mu bikorwa by'ubuvuzi bambaye imyambaro itandukanye, imbere y'abo hari ibikoresho birimo intebe zifashishwa n'abarwayi, inyuma y'abo hari ibidukije birimo ibiti ,ibyapa byamamaza ndetse n'ibitambaro bifite amabara y'ibendera ry'igihugu.

Umukobwa wambaye umupira utukura imisatsi miremire, umugore wambaye umupira w'umweru ndetse numukara, n'urunigi mu ijosi ufite imisatsi yera iruhande rwabo hari undi nawe wambaye umupira w'amaboko maremare ku meza y'igiti, hateye n'irangi ry'umweru ku nkuta.

Umugabo mukuru ufite imisatsi yera, wambaye umupira w'ubururu, ikabutura yumukara, urimo arafashwa kugenda n'umugore wambaye umupira w'umukara n'ipantaro yumukara, inyuma ye hari igikoresho byifashishwa mu gutoza abantu kugenda ndetse n'ibindi bitandukanye.

Umugore wambaye umwenda ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru byerekana ko ari impuzankano, ari guhereza ibinini mu ntoki umusaza ufite ubwanwa bw'umweru ndetse wambaye n'ishati y'icyatsi, afite n'igikombe cy'amazi mu ntoki, bicaye ahantu mu ntebe iruhande rwabo hari indabo.

Abagore ndetse n'abagabo bambaye imyambaro itandukanye yerekana ko bakora mu by'ubuvuzi, bari kwita ku muntu uryamye ku gatanda gafite ibara ry'ubururu, iruhande rwabo hari ibiti, inyubako ndetse n'ubusitani.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umukara, ufite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hari imeza bahagararaho bari kuvuga ijambo, imbere ye hari abagabo n'abagore bamuhanze amaso, bicaye ku ntebe zitukura imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse na mudasobwa.

Umugabo wambaye ikote n'ishati y'umweru ndetse n'ipantaro, iruhande rwe hari abagore babiri bambaye ibitambaro mu mutwe, imipira irimo y'amoboko magufi, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu, amagambo y'umweru ndetse n'ikirangango cy'igihugu, bari gusuhuzanya.

Umugore n'umugabo bambaye impuzangano y'abaganga y'ishashi iri mu ibara ry'ubururu, bakaba bafite imbere yabo umuntu barimo barasuzuma wicaye ku ntebe, iruhande rwabo hakaba hari ihema ry'ibara ry'umweru.

Abagore ndetse n'abagabo bigaragara ko bari mu nama, bicaye ku ntebe zisa umutuku, imbere yabo hari ibyapa binini bifite ibara ry'umweru, ubururu, umutuku ndetse n'icyatsi n'amatara ari kwaka.

Abakobwa bambaye impuzankano y'imipira y'ibara ry'umweru, ndetse n'amapantaro inkweto zifunguye, inyuma yabo hari urukuta ruriho umuryango ufunze rwubakijwe amatafari manini, hasi hafite ibara ry'umukara ndetse n'ibyapa bafite mu ntoki.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye kuri serivisi z'ubuvuzi bicaye ndetse n'abarimo barapimwa, ahantu hari imeza ifite ibara ry'ubururu, iriho ibikoresho byo kwa muganga birimo imashini, imiti.

Abagore bane, batatu bitandiye igitambaro mu mutwe, bakaba bateruye abana babo, basa nk'aho bagiye ku kigo nderabuzima kwaka ko babafasha ibintu bigiye bitandukanye.

Abagore bane bafashe icyapa mu ntoki, gifite ibara ry'umweru, ubururu n'amagambo yanditseho, inyuma yabo hari ibidukikije birimo ibiti, ibyatsi, inzu ndetse n'abandi bantu bari kugenda inyuma yabo.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara n'amapantaro y'umukara n'umugore wambaye ikanzu y'umweru, inyuma yabo hari icyapa kiriho amasura atandukanye, bicaye ku ntebe z'ibiti zifite ibara ry'umweru n'umukara, imbere yabo hari abantu babateze amatwi ndetse bahanze n'amaso.

Icyapa mu ibara ry'umweru amagambo mu ibara ry'umukara ikirangantego cy'igihugu ndetse n'icy'umujyi wa Kigali, uruzitiro rwubakishijwe amatafari, umuhanda ibidukije birimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Inzu iri mu mabara atandukanye: umuhondo, icyatsi, ubururu, harimo ibikoresho bikozwe mu biti ibikoresho by'ikoranabuhanga nka: mudasobwa, amatara ari kwaka, ibirahure.

Inzu yubakishwa amatafari y'umuhondo, ibirahuri amadirishya y'umweru, inkingi ziteye irangi ry'mweru, icyapa kigaragaza serivisi zihatangirwa mu ibara ry'cyatsi ndetse n'umweru, n'ibidukikije birimo ibiti indabo ndetse n'ubwatsi.

Inyubako yifashishwa mu buvuzi mu ibara ry'umweru amabati atukura, izengurutswe n'uruzitiro ruriho utwuma ndetse n'amatafari, iruhande rwayo hari imodoka ndetse n'abantu bambaye imyambaro itandukanye bari gusohokana binjira mu busitani.

Abantu bigaragara ko bakora mu ruganda, bambaye imyambaro y'amoboko maremare izwi nk'amataburiya, n'udupfukamunwa, bari imbere y'igikoresho cy'ikoranabuhanga, cyifashishwa mu gutwara ibintu, kibivana ahantu kibijyana ahandi, harimo amacupa.

Inyubako igeretse, yubakishijwe amatafari ndetse n'amabati y'umuhondo, hariho ibirahure, iruhande rwayo hari ibidukikije birimo ubusitani, ibyatsi, amatara ndetse n'ibiti.

Akayira kagenewe gukoreshwa n'abanyamaguru kari gukoreshwa n'abagenzi, iruhande rwako hakaba hari urupangu rukikije ibitaro rwubakishije n'inkingi zigizwe n'amatafari zikaba mo hagati harimo ibyuma bigiye bisobekeranyije.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, imiryango y'umukara, amabati y'ubururu, ibidukikije birimo ibiti, ikirere ndetse n'ibitambaro bikingira urumuri kwinjira mu nzu ku madirishya, imbere yayo hari abantu bahicaye, amagambo yanditseho ikigo nderabuzima cya Shagasha.

Abagore bambaye imyambaro y'ubururu n'ibitambaro by'umweru, bari ahantu hari ibidukikije birimo ibiti, indabo ndetse n'ubwabatsi, inzira y'abanyamaguru, inzu ndetse n'imodoka n'abandi bantu barimo baranyura mu muhanda. Ikirere kirasa umweru.

Uruzitiro rw'utwuma n'amatafari inyubako ifite amabati y'ubururu ndetse n'ubusitani umuhanda nyabagendwa uri kunyuramo abantu batandukanye barikubisikana icyapa gifite ibara ry'umweru ndetse n'amagambo y'ubururu.

Inzu y'ivuriro mu ibara ry'umweru, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buganga, hari utubati dukozwe mu biti dufite ibara ry'umweru, turimo ibikoresho bitandukanye birimo ama esuwime, imiti ndetse n'imashini.

Ahacururizwa ibikoresho byifashishwa mu buvuzi, birimo imiti, amavuta, hari akabati gakoze mu biti mu ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, amakaro arasa umweru ndetse n'imiti igerekeranye mu tubati.

Inzu irimo ibikoresho bitandukanye bifite amara atandukanye mu ibara ry'umweru, ibiti ndetse n'umukara ibirahure, ibidukikije birimo indabo, ibiti ndetse n'ubwatsi ndetse no hasi harasa umuhondo.

Inzu zifashishwa mu gutanga serivise zifite ibara ry'umweru, amabati asa umutuku, mu busitani indabo, ibiti. Iruhande rwabo hari abantu abagore ndetse n'abagabo bicaye ku rukuta rw'amabuye bategereje guhabwa serivisi.

Inyubako yo kwa muganga ifite ibara ry'umuhondo, ubururu, irimo intebe zikozwe mu biti n'izikozwe mu byuma zifite amabara atandukanye, ibikinisho birimo akanyamasyo ndetse n'ameza, amatara ari kwaka ndetse n'utubati dutangirwamo serivisi, inzugi zifunze.

Inyubako y'ubuvuzi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bishushanyije ku rukuta, amatara ari kwaka, ibikoresho byo kwa muganga birimo: ibitanda, utubati, intebe ndetse n'imashini zifashishwa kwa muganga.

Uruzitiro rwanditseho amagambo nka Kabgayi hosipito mu ibara ry'umweru n'umukara, inyuma yarwo hari amazu atandukanye yubakishijwe amatafari, hari ibidukikije birimo ibiti, ubusitani, abantu barimo baranyura aho.

Abagabo babiri, umwe wambaye taburiya y'umweru, n'undi wambaye umwenda w'akazi w'umweru, ndetse n'agapfukamunwa, bari ahantu inkuta zifite ibara ry'umweru ndetse n'imirongo y'imikara iciyemo, hari imashini ziri imbere yabo bigaragara ko ari ibyububuvuzi

Umugore wambaye umwenda w'akazi wo kwa muganga, uri mu nyubako yo kwa muganga, ari gukoresha icyumviro apima ndetse anasuzuma umurwayi uryamye ku gitanda gikozwe mu byuma, wambaye imyambaro y'ururu ndetse n'umweru, iruhande rwe hari utubati turimo imiti ndetse n'ibyapa.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, hariho icyapa mu ibara ry'ubururu, handitseho amagambo Nyarugenge disitirikiti hosipito, hari inzira y'abanyamaguru, hari inkuta zubakishijwe amatafari, hari n'ibidukikije birimo indabo ndetse n'ibiti.

Abantu batatu bicaye imbere y'abandi bakaba basa nkabari kubahereza ikiganiro runaka, bakaba imbere yabo ku meza hariho igitambaro cy'icyatsi kigitwikiriye, hakaba hariho n'amazi ari mu gacupa apfundi bakaba bafite n'umugabo ufashe icyuma cy'ikoranabuhanga gifata amashusho.

Inyubako mu mabara atandukanye, iriho ibyapa mu ibara ry'ubururu n'amagambo yanditse mu mweru inzugi zifunguye bigaragara ko ari inyubako y'iguriro ry'imiti, imodoka ziparitse imbere mu ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Inzu y'ivuriro ifite ibitanda mu ibara ry'umweru, ubururu, hari ibishimisha abana biri ku nkuta, insakazamashusho, ibikoresho bindi birimo intebe ndetse n'utubati.

Inzu nini yubakishijwe sima, amatafari n'ibirahure n'inkingi zigiye zikikije iyo nzu, ikaba imbere yayo hari imbuga ishashemo amabuye ikaba inahagazemo imodoka.

Inyubako y'ubuvuzi ifite ibara ry'umweru, imiryango ndetse n'inkingi zirimo hagati, intebe zicarwaho mu ibara ry'ubururu, ndetse n'umuhondo, ibirahure, amatara ari kwaka, ubusitani burimo indabo.

Abagore bambaye imyambaro y'umweru, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza afite ibara ry'ubururu, ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, insakazamashusho, ndetse n'abantu bari kwitaho, harimo uwicaye mu kagare akaba abafite ubumuga, ahantu hari inkuta z'umweru n'amatara ari kwaka.

Inzu yifashishwa nk'ivuriro, irimo ibikoresho bitandukanye, ibyifashishwa mu mikino ngororamubiri, utubati dukozwe mu biti, amatara ari kwaka ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu kuvura no hasi harasa umuhondo.

Abantu bari kwifotoza harimo abasutamye bambaye amataburiya y'ubururu, barimo abahagaze hagiye harimo n'abambaye amataburiya y'umweru, hakaba harimo n'umugabo wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda barimo n'uwambaye imyenda y'idini rya Gatorika.

Icyuma k'ikoranabuhanga cyo kwa muganga kifashishwa mu gupima abarwayi umubiri wose, gifite ibara ry'umweru ndetse n'agatanda kariho, iruhande rwacyo hari utubati dukozwe mu biti, inkuta zisize ibara ry'umweru ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu gukoresha icyo cyuma k'ikoranabuhanga.

Inyubako y'ivuriro ifite ibara ry'umweru n'ibirahure by'umukara, ku gice cyo hejuru hasi amatara aracanye, harimo abantu bambaye imyambaro y'akazi barimo abagore ndetse n'abagabo, inzugi zikozwe mu biti ndetse n'ibirahure.

Inzu ifite imiryango itatu mu ibara ry'umweru, n'undi wanditseho umubare rimwe, undi wanditse umubare kabiri, undi wanditseho umubare gatatu, imiryango y'ibirahure, irangi rirateye ni umweru, amatara ari kwaka, hagaragaramo intebe y'umukara.

Umugore wambaye umwambaro ufite ibara ry'ubururu bigaragara ko ari impuzankano yo kwa muganga, afite icyuma mu ntoki kirimo kirapima umurwayi w'umusaza wambaye ishati y'amaboko maremare n'ipantaro y'umukara bicaye mu ntebe isa umweru, inyuma yabo hari ibirahuri bifunguye.

Inzu mu ibara ry'umweru, amatafari, amadirishya ndetse n'inzugi. Icyapa gifite ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo y'icyatsi, hari abantu basa n'abategereje serivisi, harimo abagore ndetse n'abagabo.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, inkingi zikozwe mu biti, imiryango ikozwe mu biti, igeretse, amatara ari kwaka, imbere yayo hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'ubusitani, hari n'abantu bari kugenda barimo abagore ndetse n'abagabo.

Inyubako zifite ibara ry'umweru, ibirahuri by'umukara, amabati asa umutuku, hari ibidukikije birimo ibiti, haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, n'amabara aratandukanye, icyapa gifite ibara ry'umweru, amagambo yanditse ni ubururu.

Umugabo wambaye umwambaro wo kwa muganga ufite ibara ry'ubururu w'amoboko magufi ndetse n'ipantaro, afite icyuma gipima umutima mu ntoki. Imbere ye hicaye umukecuru wambaye ikanzu ikozwe mu bitenge, inyuma yabo hari igicukiro birimo ibiti, insina ndetse n'indabo, n'inyubako.

Ibikoresho byo kwa muganga biri mu mabara atandukanye ariko by'ikoranabuhanga bifiteho mudasobwa biri ahantu hafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu harimo iby'ibyuma ndetse n'ibifiteho imisego.

Inzu ndende ifite ibara ry'umweru yubakishijwe amatafari y'umuhondo, ibikorwa remezo birimo ubusitani, indabo ibiti, amatara ikirere gifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugore uryamye mu cyumba cyo kwa muganga, ahantu hari amashuka y'umweru ndetse n'icyatsi, umusego umwegamije ku mutwe, ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi birimo na Mudasobwa, utubati, amadirishya ndetse n'amashashi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imiryango itukura amakaro hasi, ibyapa biyobora abanyamaguru, intebe zo kwicaraho mu ibara ryicyatsi amatara ari kwaka ndetse no hejuru hasa umweru, bigaragara ko ari inzu yifashishwa mu by'ubuvuzi.

Inzu y'ubuvuzi mu ibara ry'umweru, inkingi z'ibiti, inzira z'abanyamaguru, ibidukikije birimo ibyatsi ndetse n'ibiti, ibirahure bifunguye n'ibikinze, ibyapa bigaragaza icyerekezo.

Inyubako ifite amabati atukura, isize irangi ry'umuhondo n'umweru, ibirahure ni umukara ndetse n'ubururu, icyapa kinini mu ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yandikishije umukara. Ibidukikije birimo: ibiti, ibinyabiziga, imihanda, ndetse n'abantu bari kugenda mu muhanda.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu, inkingi z'umweru ibidukikije birimo ibyatsi, indabo, inkuta zubakijwe amabuye, inzira zinyurwamo bazamuka bava ahantu hamwe bajya ahandi, ikirere ndetse n'abantu byanditse ku kigo nderabuzima cya Tabagwe.

Inzu y'ivuriro isize irange ry'umuhondo, amatafari, amabati atukura, yanditseho ijambo Ikigo Nderabuzima cya Gishweru, hari abantu bayiri imbere abagabo ndetse n'abagore, ibidukikije birimo indabo ndetse n'ibikorwa remezo by'amashanyarazi.

Inzu ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, irimo ibikoresho bitandukanye bikozwe mu byuma biriho n'imisego isa umukara, hasi harasa ubururu, inkingi zirasa umweru, amatara ari kwaka, imiryango ndetse n'ibirahure.

Abagore babiri, umwe mwambaye umupira w'umukara, n'undi wambaye uw'umweru uteruye umwana mu ntoki, bigaragara ko bari kwa muganga, iruhande rw'abo hari abati ku rukuta, amadirishya, ibikoresho byo kwa muganga birimo igitanda ndetse n'amashuka.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, ibirahure, inkingi zikozwe mu biti, harimo ibikoresho birimo intebe, zikozwe mu biti n'izikozwe mu byuma, inzugi zifunguye ndetse n'amadirishya, ibikoresho by'ububaji birimo utubati.

Inzu mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, amatara ari kwaka hari ahafashirizwa abantu n'ibyapa bibayobora, amagambo yanditse mu ibara ry'ubururu, ibikoresho birimo iby'ububaji intebe ndetse n'utubati.

Inyubako ndende ifite amabara y'umweru igeretse inshuro nyinshi, yerekana ko ari inyubako y'ivuriro, imbere yayo hari aho imodoka ziparika, harimo ubwoko bw'imodoka butandukanye bufite amabara y'umweru ndetse n'umukara, harimo n'umuntu wambaye umupira w'umutuku.

Abakobwa n'abahungu, bambaye imyambaro ifite amaboko maremare y'ibara ryera izwi nk'amataburiya, bicaye ahantu hari imeza n'utubati bikozwe mu biti, hateye irangi ry'umweru ndetse n'ibirahure n'amatara ari kwaka.

Abagabo bahagaze ahantu hamwe, bafite inkoni mu ntoki. Bambaye udupfukamunwa ndetse n'imyambaro itandukanye, harimo n'abagore. Iruhande rwabo hari imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara. Bahagaze ku mabuye yagenewe kugenderwaho. Inyuma yabo hari inzu ndetse n'ibidukikije, birimo ibiti n'indabo.

Umugore wambaye agasengeri, ufashe amaboko hejuru y'umutwe ndetse n'ukundi gufashe mugongo, wambaye isaha, ari mu muhanda nyabagendwa, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibiti birebire ndetse n'ibigufi.

Imodoka itwara indembe cyangwa inkomere, izikura hamwe izijyana ku bitaro cyangwa izivana ku bitaro izerekeza ku bindi bitaro, ikaba ari imodoka y'imbangukiragutabara iri mu muhanda wa kaburimbo.

Inyubako yifashishwa mu myitozo ngororamubiri irimo ibikoresho bitandukanye iby'utubati dukozwe mu biti iby'ibyuma, amabalo manini afite ibara ritandukanye, abantu barimo ndetse n'ibara ry'ubururu ku nkuta n'amatara ari kwaka.

Umukobwa wambaye agasengeri gato k'umweru, ipantaro y'ubururu, amanitse amaboko bigaragara ko ari muri siporo, ku itapi isa umukara, imbere hari icupa ry'amazi, urukuta rusa umweru, indabo...

Umugore w'imisatsi miremire, w'uruhu rwirabura, wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, uri mu myitozo ngororamubiri wafatanyije amaboko, imbere ye hari amazi magari atemba.

Imashini yifashishwa mu buvuzi ifite amabara atandukanye ubururu ,umweru ndetse n'umukara iri hantu hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kwita ku bantu mu buryo ngororamubiri hafite ibara ry'umweru.

Umugabo uhagaze imbere y'abantu wambaye umwenda w'akazi, ufite ibara ry'umweru n'amaboko maremare, ipantaro y'umukara, imbere ye hicaye abagabo ndetse n'abagore bamuhanze amaso bakurikiye ibyari kubereka ku gikoresho cy'ikoranabuhanga kizwi nka mudasobwa, hari ibitanda, amarido ndetse n'amatara ari kwaka.

Umugabo wambaye umupira w'umukara w'uruhu rwera, imbere ye hari undi ufite uruhu rwirabura, wambaye umupira w'umweru, uri kwambika igikoresho cyifashishwa mu mikino, ahantu hari ikibuga gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'amabara y'umweru.

Icyuma k'ikoranabuhanga cyo kwa muganga kifashishwa mu gusuzuma abarwayi umubiri wose, gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, iruhande rwacyo hari utubati dufite ibara ry'umweru ndetse n'inkuta, amatara ari kwaka ndetse no hasi hafite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye umupi w'umuhondo ipantaro y'umukara uryamye ku gitanda gifite ibara ry'umukara, iruhande rwe hari umugabo ufite uruhu rwirabura, mu nyubako yagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri irimo ibyuma, imbaho ndetse n'amatafari.

Abana, abakuru, ndetse n'abato, abagabo, ndetse n'abagore bari mu kibuga gikoreshwa mu mikino ngororamubiri. Bitabiriye kandi bafatanyirije hamwe mu gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwabo hari ibidukikije birimo ibiti, amazu, ndetse n'ubusitani.

Ibikoresho byifashishwa mu buvuzi birimo intebe, bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'iy'umukara, utubati dufite ibara ry'umweru, amatara, mudasobwa ndetse n'izindi mashini zifashishwa mu kwita ku barwayi, ahantu hari urukuta rw'umweru.

Umugore wambaye ipantaro ndende y'umukara ni'sengeri mu ibara ry'umutuku n'inkweto mu ibara ry'umutuku, wicaye hasi mu nzira nyabagendwa bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari ibidukikije birimo ibiti ndetse n'inzu.

Umugabo wambaye umupira w'icyatsi n'ikabutura ,inkweto z'umukara kuruhande rwe harumu umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umukara ufite uruhu rwera ,hari imyitozo ngororamubiri yo guterura ibyuma mu nzu yabugenewe.

Amagi, inyama, soya, imbuto, ibyo byose akaba ari ibiryo bigiye bikungahaye kuri vitamine zigiye zitandukanye, akaba iruhande rwabyo hari ibikoresho ngororamubiri, harimo ibyo guterura biremereye.

Umugabo wambaye urukweto rw'umweru, ikabutura ngufi y'ubururu, umupira w'umweru, ari ku cyuma ari kugororeraho ukuguru, bigaragara ko ari mu mikino ngororamubiri, iruhande rwe hari amazi atemba.

Umusore uri guterura ikintu cy'icyuma wambaye umupira w'umukara n'ipantaro y'umukara, bigaragara ko ari mu myitozo ngororamubiri baterura ibyuma, hasi hafite ibara ry'umukara amatara arikwaka ndetse n'ibindi byuma byifashishwa muri iyo myitozo ngororamubiri.

Inkoni ndende y'ibara ry'umukara ku mutwe wayo higonze iriho umushumi ndetse n'akantu kayifasha guhagarara hasi iteretse ahantu hari ibara ry'umweru hariho n'igicucu cyayo.

Ibikoresho byo kwa muganga birimo imashini zifashishwa mu gutanga ibipimo by'umubiri, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, intebe ifite ibara ry'icyatsi ikozwe mu cyuma ndetse n'imisego n'indi ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Umugabo w'uruhu rwera uteruye icyuma gifite ibara ry'umukara, haragaragara ibiribwa birimo imboga, imbuto, inyama, amagi, ibinyobwa ndetse biri no mu bikoresho byabugenewe nk'ibikombe...

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ufite umugozi w'umuhondo mu ntoki w'uruhu rwera, iruhande rwe hari umugore wambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwabo hari ibikoresho by'ibyuma ndetse n'ibyifashishwa muri siporo.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu, agapfukamunwa imbere yicaye umugore uteruye mwana wambaye umupira w'umuhondo, imbere ye hari ibikoresho birimo mudasobwa, imigozi yayo ndetse n'ibindi byifashishwa mu buvuzi.

Amacupa atandukanye mu ngano ndetse no mw’ibara, arimo ubwoko bw'imiti butandukanye, bigaragara ko hari imiti ya gakondo, amashashi, ndetse biteretse no ku meza y'igiti, iruhande rwayo hari inzira nyabagendwa.

Umugore wambaye imyenda y'umweru ufite isakoshi mu ntoki imisatsi y'umukara, uri gukora ku bihingwa bifite amaba ry'icyatsi, bigaragara ko hari ibihingwa birandaranda ndetse n'insina ifite ibara ry'icyatsi.

Icupa rito mu ibara ry'umweru ryanditseho amagambo mu ibara ry'umuhondo, riteretse ahantu hari ibara ry'umukara, ripfundikije agapfundikizo gatoya.

Umugabo wambaye ishati y'umweru y'amoko maremare ariko ihinnye. Imbere hari ibikoresho bitandukanye birimo indobo, ibikombe, imiti ya kinyarwanda, utubati tumanitsemo iyo miti iri mu mubikopo.

Imiti yifashishwa mu buvuzi gakondo, ifite ibara ry'icyatsi, iteretse mu tudobo dukozwe mu ibumba, iruhande rwayo hari agatanda gakozwe mu twuma.

Ibimera by'amababi mato bifite ibara ry'icyatsi biri ku duti duto duto, hasi hari ubutaka burimo ibintu bivangavanze, iruhande rwaho hari urukuta rufite ibara ry'umweru ndetse rusharuyeho.

Isoko ricururizwamo n'abantu batandukanye, abagore n'abagabo bambaye imyambaro itandukanye, yubakishijwe ibyuma ndetse na sima, harimo ibicuruzwa biri mu bikopo ndetse no mu macupa maremare, harimo n'imbuto ndetse n'imiti.